Umuhanda gwa kaburimbo gurimo ibara ry'umweru, iruhande yago hariho icuma ca sofiya kirebaga imodoka zifite umuvuduko mwinshi, hirya yaco hariho ibiti biri ku murongo gumwe birebire, hirya yaho hariho ijaride y'amawuwa gamwe.

Abagabo babiri bahagaze bari gusuhuzanya, bafatanye mu biganza bombi. Inyuma yabo, hari intebe zifite amabara g'ubururu hicayemo umudaso n'umusirikare, bose bari kureba ku gitabo kiri ku kameza kari imbere yabo.

Abanyeshuri bahagaze ari itsinda rinini, imbere yabo hari polisi, umugabo uhagaze ,umunyeshuri utetse kuri gaze, isafuriya iri hejuru, kizimyamwoto iri imbere y'umupolisi itatu.

Umupolisi uremesheje inama irimo abantu benshi, bambaye imipira zifite amabara g'umutuku, bicaye hasi harimo umugabo wifashe ku mavi yumiwe naho ubayoboye afashe mikoro ku munwa.

Umusirikare uhagaze imbere y'abaturage bamwe bicaye abandi bahagaze ari kubaremesha inama, hagati yabo hari ikibafure gifite amabara g'umukara cakobaguritse, hirya yabo hari inyubako ifite amadirisha gashaje.

Sofiya iri k'umuhanda gwa kaburimbo irebaga amamodoka n'amamoto gari kwihuta, imbere yayo hariho abamotari bambaye amakasike g'umutuku gusa hirya hariyo Etaje yubakishije amabati g'umutuku.

Imodoka ziri mu muhanda, hari umupolisi uri kuzereka aho zigomba gukatira, imbere ye hari umumotari uhetse umuntu umwe, muri kaburimbo harimo amabara g'umweru, hirya hariho udusima tugiye gusa umukara n'umwiru.

Umugabo waremeshe inama abagore n'abagabo bakundaga kwambara ibitambaro n'ingofero ku mashuri hariho inzugi z'ubururu hariho n'abasirikare n'abapolisi bicaye ku ntebe zabayobora.

Kamera ifashe ku gikuta ifite akantu k'umweru hejuru kayitwikiriye. Imbere ku jisho hamezeze nka mpande enye harimo akantu k'imboni k'umukara karimo hirya.

Abagore n'abagabo bari gukubura bambaye amajire g'umuhondo gameze nk'agabapolisi, abandi bantu bari kugenda mu muhanda hariho uruzitiro ruzitije ibigo n'ibitusi hirya yaho hajitije imigano.

Abagabo bari gukora umuganda bari gushira ibiti ku kiraro mu ishamba, iruhande hariho ibiti by'imigano, hirya hariyo ibyatsi byinshi birimo abantu bambaye amabara g'umutuku n'ag'umukara.

Abagore n'abagabo bicaye ku kibuga bishimye bari gukoma amashi. Harimo umwe uhagaze, wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, abandi benshi bambaye amabara g'umweru n'umuhondo, bose barebye imbere yabo.

Abantu bicaye muri sale nini harimo abambaye imyenda z'amabara gatandukanye, hari n'amacupa gateretse imbere yabo, hari umugore umwe wambaye agapira gafite ibara ry'umweru afashe mikoro ari kuvugiramo, yambaye amadarubindi.

Abagabo babiri bicaye muri saro， bari gusuhuzanya，abandi bari kubitegereza， bambaye amakositimu g'umukara hari n'amacupa g'amabyeri garemereye gadafunguye， na fanta idafunguye， n'umugore wambaye ikibaze gifite amabara g'umutuku n'ag'umweru.

Abantu bari mu nama bicaye muri sale ifite amarido gatandukanye, imbere yabo hariho amacupa g'amazi no hirya yabo nuko bimeze, ameza gabo bicayeho gasa n'umutuku.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bambaye amashati agiye gusa n'ubururu, n'amakoti n'amapantaro y'umukara, hirya hari umuntu uri kuremesha inama ufashe mikoro, hirya ye hari umugabo nawe wambaye agashati k'agatisheti karimo ibara rigiye gusa n'umuhondo.

Agakezo bahizaga ubwatsi bwo guha amatungo bakundaga kwita akanajoro. Gafite ikirindi inyuma, gatereye hejuru y'umucaca bahiriraga inka cangwa intama.

Uduseke dutatu dufite amaba g'umutuku, n'ubururu, n'ag'umweru harimo agapfundikiye n'akadapfundikiye. Biri ku muhururu zifite amabara g'umukara zibohesheje utudeyi tw'umweru.

Ababyinnyi b'intore b'abagabo, bambaye imisenyero hasi z'umuhondo, bambaye inkara. Bafashe amacumu mu ntoki, bafashe n'ingabo. Bari gutambika amaboko bari gushayaya.

Ababyinnyi bari kubyina bafite imigara ku mitwe yabo. Bambaye ibintu bisobekeranyije mu majosi gabo, harimo amabara g'umweru n'ag'umukara. Barapfukamye bashinze ukuvi, bambaye n'imikenyero hasi zifite amabara g'umuhondo.

Ababyinnyi bari kubyina barimo abagore n'abagabo abagabo bari gukoma amashi bambaye imikenyero zifite amabara g'umweru abagore bambaye utubodi dufite amabara g'umukara bikoreye uduseke turimo inyuguti ya za n'amabara g'umuhondo hirya yabo hari igitari ni jaride.

Amazu ga kinyarwanda atatu gazitiye k'uruziga, hirya yaho hariho amajaride gatandukanye, hino hari kaburimbo n'akandi gahanda gatoya.

Umugabo wambaye igikoti gifite amabara g'umutuku uri kugenda arakora ku mirya y'inanga irambitse ku meza, hirya ye hari undi uri kumwitegereza mu maso.

Abakobwa batatu bari guhereza umugabo wambaye umukenyero amata mu nkongoro. Inyuma ye hicaye abasore bane bambaye imyenda y'icatsi, n'umwe mu kagare wambaye ipantaro yumukara. Impande y'abo bakobwa hari umugabo witeye umupira mu bitugu.

Inzu ya kera ya kinyarwanda yubakishije ibyatsi ,hejuru ku gasongero harimo akabindi, inyuma yayo hari ibyatsi bitandukanye, imbere hari imbuga n'inzira ijya mu iyo nzu ,n'umuryango urimo umuhururu uri mu amabara y'umweru n'umutuku.

Amasaka gatari gera neza, g'ibitete gafite amababi g'icatsi, hirya y'aho hari n'agandi gatari gaterera neza n'agatereye.

Inkongoro n'igisabo biteretse ku kirago gisasiye agatindiri ,imbere yaho hari icapa gisize umweru canditseho ,hakaba n'umwenda uhamanitse gusa n'umutuku.

Abakobwa beza bambaye urugori mu gahanga bambaye imisatsi zifite amabara g'umukara bafashe inkongoro mu ntoki bambaye imikenyero ya kinyarwanda harimo uwambaye ugufite amabara g'umutuku.

Abantu bicaye bari gusuhuzanya. Batatu bambaye urugori rw'umweru mu gahanga, harimo ufite imisatsi zimanuye hariho n'uwambaye agakomo ku kuboko, n'urunigi mu ijosi, bambaye n'amasengeri g'umukara.

Umugore wambaye ubupira gw'icyatsi n'urigusekuru wambaye ugusa nabi, inyuma yabo hariyo ibirayi n'ibigori biteye hamwe ,hiryaho hari urutoki n'inzu, hasi hariho inkoko iri gutoragura imyanda yaguye hasi niyobase bari kumeseramo isa n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira gwa kukumba, yikoreye ikibindi, inyuma ye hari abagore bikoreye uduseke dufite amabara gatandukanye, hirya ye hari abantu bicaye ku ntebe z'umweru bari mu kidara gishishishije amashitingi g'umwero.

Umugore uri gusekura isombe mu isekuru. Yambaye umupira gu ubururu, inyuma inzu yegamiye isize irangi jy'ubururu n'isuka iri hirya ye ifite umuhini gubajije mu giti kigondamye.

Abana bari gukina urukiramende harimo uwasimbutse uri hejuru uri kureremba, hari undi uri kwiruka uri kuzenguruka, abandi bambaye ibitenge babihinnye harimo n'abambaye ubusa hariho n'ugiye gusimbuka.

Abagore bafite imirishyo imbere yabo hari ingoma bari kuvuza, bambaye imikenyero y'umweru bifite utubodi tw'umukara, abandi bambaye imikenyero y'icyatsi bambaye n'ibikomo ku maboko.

Inkono ya kinyarwanda iri kumashiga itetse inyama ziri gucumba. Harimo inkwi zidakoranyije n'izikoranyije, hirya y'aho hariho umupfundikizo n'ikirushe kiri ku go mupfundikizo.

Abakobwa bakeneye imikenyero, hagati yabo harimo umwe wambaye umukenyero gw'ubururu n'kabodi k'umweru, bambaye ingori, hirya yabo hariho inzu iriho ifoto.

Ababyinnyi ba kera ba kinyarwanda bambaye impu bafashe amacumu mu ntoki bafashe n'imiheto bari ku kumuronko gumwe biyogoshesheje amasunzu kumitwe yabo.

Icumba gikoreshejwe n'ibisika bibosheye mu migano harimo n'ibirago biboshye mu migwegwe n'ubudodo bw'imifuka, hejuru hamanitse imihururu, hasi hose hashashe ibirago.

Agaseke gafite umutemeri muremure gufite agasongero karekare, izengurutswe n'amabara g'umukara, hasi imironko ibiri itandukanye kagiye gakozwe nka mpande eshatu.

Abantu bambaye imikenyero y'imyeru b'abagabo bicaye imbere y'inzu ya kinyarwanda bari gukina babiri ikibuguzo abandi bahagaze bari ku bitegereza inyuma yabo hariho amashitingi asakaye.

Ababyinnyi bari kubyina bambaye imikenyero zifite ibara ry'umuhondo hose, bambaye urugori mu mutwe, bambaye inkweto z'umukara zifite akabara k'umweru, bari gukoma ingoma bafite imirisho impande zombi, hirya yaho hari abandi bagabo bari kumwe bambaye imikenyero zifite amabara g'umweru n'dupira dufite amabara g'icatsi.

Umufundi uri kubaka ifondasiyo, ari kumena amabuye gafite impande zitandukanye. Hirya ye nta muferege aracukura ngo ashiremo ago mabuye.

Abagabo bambaye imikenyero z'umukara n'amashati g'umweru bahetse igitebo, bafite imigano ibiri ku ntugu zabo, imbere hari abantu bari mu gishitingi cya sale.

Ababyinnyi bambaye imikenyero hasi zisa n'umuhondo n'udupira tw'umweru ,bafashe amacumu bambaye amayogi mu maguru, bambaye n'ibigara ku mitwe yabo bari gukinga amaboko gabo hirya yaho hariho urwego.

Abagore bambaye imikenyero z'umweru bari gukoma amashi, n'abagabo bari kubyina imbere yabo bambaye imikenyero zirimo ubururu n'umweru ,inyuma yayo hariho ibijojo barishimye ubona bazezerera.

Akuho bitaga agacuma, karimo umuseke gw'igiti gasa n'umutuku, gateretse ku gitsitsi gisongoye neza, hirya y'aho ari ibitaka bidacukuye biringaniye hamwe.

Umundu uri gusuka amata mu nkongoro akoresheje iyindi iteretse ku gakoko. Hariho n'umutsima guri ku kibabi c'ikoma gisa n'icatsi.

Umugore urikuboha akebo gafite amabara gatandukanye, arikuboha agafite amabara g'ubururu ag' umutuku agakoresha utwatsi bitaga imigwegwe n'urudodo go mu mufuka.

Intore ziri kubyina zambaye amayogi mu maguru; zifashe amacumu, zambaye imigara, zifashe n'ingabo, zifite n'urunigi mu izosi. Ziri kugenda, ziri bushayaya, ziri gukoma n'ingoma.

Umurima urimo imboga z'isogi zifite amababi g'icatsi, hariho udutitigiri tw'inkondo za maharare, inyuma yabo hariho ibyatsi bitari byabagarwa.

Agaseke gateretse ku meza gasa n'umweru, ku mpande hari amabara y'umukara, kameze nk'inyuguti ya za, kazengurutse ako gaseke kose, hejuru y' agaseke hari akadodo kari ku gatwe k'agaseke.

Amafunguro go kurya bashize ku meza hari isahane ifite amabara g'icatsi iriho ibishimbo bashize ku y'umweru amavoka atatu iyindi yisiniye iriho inyama iyindi iriho ibirayi bitetse ifiriti.

Abagore bari gushayaya bamanitse amaboko bari kubyina bambaye imikenyero z'umutuku n'izifite amabara g'umukara n'utubodi dufite amabara g'umweru, imbere yabo hari ingoma n'imirishyo hejuru.

Inkoko iteretse hasi ku mbuga yashaje, iri ho impungure, hasi hari imisigati n'ibyatsi, yarapfumutse, hirya yaho hari ho ibyatsi.

Igisabo giteretse ku nkoko iteretse ku ngata eshata, ifite ibara ry'umutuku n'iyiri gusa n'ubururu n'iy'umweru, hagati yayo hariho inkongoro, n'indi iri ku ruhande, imbere hari izindi ngata, ziri impande y'izi nkongoro.

Ababyinnyi bafashe amacumu bayatereye hejuru bambaye n'imigara, bambaye n'amayogera mu maguru, bakenyeye imikenyero ifite amabara hejuru g'ubururu hasi g'umweru bari gushayaya n'intore.

Abagore bapfukamye bari gugosora amasaka n'uburo， bambaye imikenyero zifite amabara g'ubururu n'ag'icatsi hirya hari undi upfukamye afashe igisabo， ari gucunda amata，hariho n'ufashe imbizo wambaye urugori rufite ibara ry'umweru mu mutwe.

Abakobwa n'abagore bari kubyina bikoreye uduseke ku mitwe zabo, bambaye imikenyero zifite amabara g'umutuku n'udupira dufite amabara g'umweru tw'udusengeri.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda harimo ibiseke, harimo ibirago bibohesheje amabara g'umukara n'ibicuma bibiri birimo imiseke ibiri ibiri.

Abagore bambaye inkenyerero zifite amabararaga bangavanze aga'umuhondo n' b'ubururu bari gukoma ama amashyi bari guseka ntabwo biteze ibitambaro hariho n'abambaye imikaku bifite amaba umutuku mu ijosi no mu ntoki

Imitako itandukanye, umwe munini uri hagati, indi umunani irawuzengurutse, ikaba ifite amabara atandukanye, icyatsi, umutuku, ubururu n'umuhondo.

Umugore wakuyemo inkweto azirambika hasi， yicaye ku gatebe k'ibiti bidafatanye，bitegeranye ari gutekereza，urabona byamuyobeye afite umusatsi guzingazinze.

Umuntu wa kera uri kureba imbere ye ufite umusatsi rwogoshe gusongoye gumeze nk'uruziga, yambaye n'urunigi mu izosi rufite amaba g'umweru nag'umukara n'umupira w'umweru.

Ababyinnyi b'abana n'ab'abagabo bambaye imigara mu mutwe, bafashe amacumu mu ntoki, bambaye imikenyero zifite amabara g'umweru, ag'umutuku n'ag'icatsi, bari kubyinira imbere y'aho basakaye.

Waceceka, ibikoresho byakoreshwaga kera bya kinyarwanda harimo ibisero, ingoma, inanga, igisabo agakebe, umwirongi, imigara, udusambi bitaga uturago, uduhoro twa kinyarwanda n'amasekuru.

Urugo rumanitseho egipoto c'amashanyarazi, hariho inteni ya televiziyo yanditseho ngo kanari purisi..Hasi iyo nteni imanitse ku nzu, hirya yayo hari igiti cy'inkanzamarumbo.

Inzu ndende yubatse aha yonyine hari gitari, hari igitangi gisa n'umukara. Hasi hari imbuga isanzwe y'ibitaka, hakaba hariho n' amajaride gakase neza cane.

Urusengero rwubakishije amabuye n'amatafari rufite amabati gashaje, hirya hari ibiti, hariyo n'igikoni carwo gifite amabati gashaje, hasi hari ibitsitsi bakase nk'intebe zo kwicaraho.

Abantu bari gukora umuganda bari guhingisha amasuka gatandukanye. Hirya y'aho hari amashuri gubakishije amabati g'ubururu, gasize irangi ry'umweru n'amadirisha gasize iry'ubururu, hakaba na wese ikinze idirisha.

Ikiriziya cyubatse neza gifite amadirishya y'ibirahuri, hariho n'amapoto y'amashanyarazi n'umusaraba uri hejuru. Imbere yacyo hari abagabo bari kucyitegereza.

Amashuri gubakishijwe amabati gasa n'ubururu，impande hari amatafari， ibindi bikuta bisize amabara，g'umuhondo，hariho amajaride gazengurutse ago mashuri，mu mbuga yaho isa n'umutuku，nigo gapavega garimo.

Umudugudu w'icitegererezo gw'amaetaji iruhande yago harimo agandi mazu gubatse neza gatari amaetage, impande hateye imboga ziri ku mirongo myinshi.

Inzu ibiri ziteganye zifatanye zifite amabati g'umutuku, hirya yazo hari umuhanda gwa kaburimbo, hirya yawo hari ibishimbo bihateye biri ku mishingiriro, hari n'imisozi iri hirya yabyo.

Amazu gubatse kimwe atanu gafite amadirisha gamwe. Ifite n'amabara g'umuhondo n'amakositara gasa, n'amafondasiyo n'amasima gariho gose garasa.

Ikiraro gikoresheje ibyuma ,hariho itiyo ritambitse, hari imigozi igiyifashe hejuru, harimo umuntu uri kukinyuraho urimo kuza yigira imbere.

Urusengero rwubatse neza rwubakishije amabati g'umutuku n'amatafari gahiye, ku ruhande hariho amarangi g'umweru, hasi ku kibuga hariho abakirisitu bambaye amashati g'umuhondo ,imbere yarwo haparitse imodoka ibiri...

Umudugudu gw'amazu gwi'icitegererezo gutubatse mu ma etaje, imbere yaho hariho amaborodire gagiye gariye gariho udusima hejuru, gasize amabara g’umukara ku nzugi no ku madirisha.

Amashuri gafite umuhanda wa kaburimbo hagati yago gafite amabati g'umutuku gasize n'irangi g'umuhondo kumpande zabo hari na jaride zifite amahuwa gumuhondo hari namaborudire kuruhande.

Inzu z'ama etaje abiri zihurutuye, ziteganye zisakaje amabati buri imwe yose igeretse gatatu, hakaba harimo ibara ry'umweru rihagaritse n'iritambitse muri iyo nyubako.

Abantu bari kugenda ku kiraro harimo abazungu n'abirabura, bambaye udupfukamunwa ,harimo abari kwifotoza, ikiraro kiri hejuru y'umugezi.

Inyubako y'ibiro bya Gagenke isize amabara gatandukanye: ag'umweru n'ag'ikigina. Imbere yaho hari amadarapo atatu, hasi hashashe amakaro gafite ibara rigiye gusa na shokora, hirya hariho amajaride gatandukanye.

Inyubako ya etaje ibiri i ifite jaride imbere zirimo imikindo zitazakura neza, hasi hari amabuye basize irangi ry'amabara g'umweru, hirya y'aho no kuri fondasiyo iruhande garahasize.

Umuhanda gwa kaburimbo guri hagati y'amashuri, hejuru yago hariho amashanyarazi, iruhande hagiye ahateye ibiti by'imikindo n'utundi dutoya dutandukanye.

Amatafari gabumbye mu rwondo hirya yago hariho umucanga, gagiye gatondetse mu masiteri atanu hari n'urugo rwegereye, arimo n'inkarakara.

Urusengero rwubatse mbande ibiri. Imbere yarwo hasashe kaburimbo. Hirya gato hariho jaride y'umucaca hariho n'ifondasiyo iruzengurutse, hariho n'icapa kigaragaza ko ari urusengero.

Ishusho ya Bikiramariya ishushanyije ku kantu gafite umusaraba, inyuma kazengurutswe n'amabuye gubatse gasize amabara g'umweru n'ag'ubururu. Hirya yaho hari ijaride y'imboga z'icatsi, imbere hari ikiliziya gikinze.

Etage ibiri ziteganye harimo utuyira tubiri iruhande hariho imodoka iparitse. Hari igipoto gisize ibara ry'ubururu n'iry'umweru gifite amatara hejuru.

Abagabo n'abagore， bari kugenda ku kiraro cubakishije ibyuma， hirya yawo hari umusozi muremure， guteyeho imyaka n'ibiti，iruhande hari ahantu hatameze ibyatsi.

Inzu y'ama etaje atatu, ifite igisenge imbere, mu nsi yayo hariyo imodoka, hariyo n'abakobwa n'abahungu hariho umuntu uri gutambika, imbere ye hari imodoka wambaye igisarubeti gisa n'icatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, ufitemo ibara hagati ry'umuhondo, ku ruhande hari udusima dusize ibara ryumweru n' iry'umukara, hirya ya ho hari ibipangu, hejuru hamanitse amapoto y'amashanyarazi.

Ikiliziya cubatse neza gifite udusongero tubiri: hagati harimo umusaraba no kuritwo hariho ugundi, hariho urugi rw'umutuku, kabaho n'udusigakariye, hakabaho n'indabo zifite amabara gicatsi.

Umuhanda gwa kaburimbo gurimo ibara ry'umuhondo, hariho n'udusima turiho amabara g'umweru n'ag'umukara, hirya agacaca hirya yaho gakeya hari uruzitiro ruzitije ibyuma n'amatafari, hariho n'ikiziga mu muryango waryo.

Amazu ga etaje gateganye gafite ama etaje atatu, gafite n'amadirisha gari ahantu hatatu, hejuru yayo hari agasongero gasize amarangi g' umutuku.

Inzu yubatse neza ifite imiryango itatu, imbere yaho hariho ibyapa hariho handitse arasesibi. Hirya hariho ibendera, hirya yaho hariho indi nzu yubatse yampande ibiri, iruhande hari umuhanda gwa kaburimbo.

Isoko rya kijambere ryubakishije ibisima ariho ibice bice. Hejuru ryubakishije amabati gasa n'umutuku n'inkingi z'umutuku, hasi hashashe isima n'amatafari ku ruhande, hirya hakaba ishamba.

Igishushanyo mbonera c'urusengero gubakishijwe amatafari g'umutuku, amabara gagiye gusa n'ubururu bw'amabati, imbere yaho hariho agasengero karekare kari hejuru y'urwo rusengero, hasi hariho amakaro gasa n'icatsi.

Urusengero rwubakishije amatafari gahiye. Imbere yarwo hariho igipoto gifite amashanyarazi gagiye gagabagabanyije abantu ahantu hatandukanye. Imbere hariho abakobwa batuye amazi gari mu bidomoro. Bari kubara inkuru bambaye amashati g'umweru.

Urusengero rufite aho kwinjirira hatatu, umuryango wa mbere urimo ibara ry'ubururu, uwa kabiri n'uwa gatatu hariho umuhondo, imbere yarwo hariho jaride, iruhande hakaba agahanda kagezemo.

Abantu benshi baremye inama. Inyuma yaho hari inzu nini ifite amabara g'umuhondo, n'mabati gashaje. Imbere yabo hari umugabo ufashe mikoro, n'umugore wambaye umupira g'umuhondo, mugenzi we afashije mikoro ari kuvugiramo.

Abaturage bicaye kuri gahunda, bamwe bicaye ku mucaca, abandi bahagaze. Hari umugabo uhagaze imbere y'abacamanzi bita "abunzi " uri kwisobanura afashe amaboko inyuma.

Umugabo ufashe mikoro, uri gutanga inama cangwa inyunganizi imbere ya bagenzi be, hariho abambaye amakoti g'umukara, hariho n'abambaye amashati g'umweru, hariho n'abambaye amashati gatagira karuvati gusa.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe z'umutuku, harimo umuntu umwe uhagaze uri gutanga igitekerezo afashe indangururamajwi mu ntoki areba imbere ye.

Umunyegare utwaye igare usa n'icatsi ufite intebe y'umutuku, hirya ye k' umuhanda hateye urubingo n'urutoki hari n'umugezi uri hirya yarwo kuruhande gato y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ,uri kugendamo moto n'imodoka zose ziri kugenda ziri kujya mu cerekezo kimwe, imbere yabo hari icyapa canditseho umubare mirongo itandatu, iyo bari kuja urikubona hari ishamba ry'ibiti.

Imodoka ibiri ziri mu muhanda gwa kaburimbo, imwe iri kuza iri kwerekeza imbere indi iri kuja hirya zirateganye, imwe isize amarangi g'ubururu n'ag'icatsi, iyindi isize ag'icatsi ariko itwikiriye igishitingi ibintu biri inyuma.

Amamodoka abiri ganditseho ngo yegokabuzigasa gafite amabara gumuhondo, gabafite n'agumweru, gari muri parikingi yago, gaparitse hamwe, n'izindi ziri hirya yayo.

Abagabo babiri bari gutwara amagare g'icatsi， undi uri inyuma yabo wambaye agapfukamunwa，hari imihanda inyuranyuranyemo， hirya yaho hariho etage y'ubururu n'ibiti byinshi bifite amabara g'icatsi n'imitaka ya emutiyene， ifite amabara g'umuhondo.

Imodoka y'umweru ya dayihatsu iririmo ibitoki bibisi. Harimo abagabo bari gupakurura umwe wambaye igisarubeti c'icatsi, n'undi uri hejuru wambaye ic' icatsi. Hasi hari moto n'umutaka g'umuhondo gwa emutiyeni, n'inzu isize irangi ry'umuhondo.

Gare imodoka ziparikamo, haparitse imodoka nyinshi zifite amabara gatandukanye hari inzu ifite etaje ibiri yubakishije amabati g'ubururu. Isizwe ibara ry'umuhondo ryanditsemo Emutiyeni, hirya yaho hari iyindi na yo ifite a inabarabu y'ubururu ntagaumuhondo.

Imodoka nini ya bisi yitwa Tiriniti, ifite amabara g'ubururu ru n'ag'umweru, iri kugenda mu muhanda gwa kaburimbo. Hariho abagenzi bari kugenda bari gutega, hari indi bigiye guhura iri kugenda iri kuyisanga

Amamodoka garitiko menshi gafite amataragose gunamye, imbere hariho abagenzi barikuja kugatega, imbere hariho n'abakomvayeri bari gushaka abakiriya.

Inyubako iparitse imbere imodoka hariho ka puberi gasize amarangi gw'umuhondo, ag'ubururu n'agicatsi. Hirya ya ho hari ikibuye kinini cyane.

Abantu bari gusohoka mu ndege, harimo abantu bari kubayobora bambaye amajire g'umuhondo. Imbere yaho hari ikirango gihagarika abantu c'umutuku, hepfo gatoya hariho umuhanda g'umuhondo bagendaga bari kunyuramo.

Imodoka ya dayihatsu irimo: imboga n'imbuto bitandukanye, ifunguye urugi y'ubururu, beterave, sipinaci, borokori, karoti, n'zindi nyinshi zitandukanye.

Aho utumoto twa Rifani duparikaga, mbere yaho hariho ibara ry'icatsi ryanditsemo reri twubake neza, hakaba harimo n'ibara ry'ubururu ryanditswemo tigo, iry'umweru ryanditsemo kashi, hasi yaho hakaba hariho amapavi yakozemo n'isima.

Umugore witeze akitambire k'umweru wambaye inkweto z'umweru, ari gutwara akamoto ka rifani gasa n'ubururu imbere ye hari umugore wambaye ibitenge by'amaribaya uri guseka uko ari gutwara.

Amabisi gari kugenda ku murongo gumwe gumwe, harimo agafite irangi ry'umuhondo, agandi gasize irangi ry'icatsi, agandi gasize iry'mweru, nyuma yaho hariho ama etage na go gafite amabara g'umuhondo n'ag'ubururu.

Abagenzi bari kugenda muri bisi yanditseho kigari siti turu bari kugenda barareba mu madirisha, imbere yabo nta wundi mugenzi uriyo, uretse ibiti byegeranye biri ku murongo gumwe gumwe.

Abantu bari gukatisha amatike go kugenderaho mu modoka ya vorukano. Hirya yaho hariho ibyapa biri kugaragaza aho bagomba gutegera. N'izindi modoka n'abagenzi bari kugenda mu muhanda.

Moto ibiri ziri ku kabuga kamapave kegereye kaburimbo hariho amakasiki abiri hirya yaho hari indabo z'icatsi zifite uturabo tw'umuhondo hirya y'aho hari ibiti na mapoto gafite amashanyarazi gatambitse hirya.

Imodoka ipakiye ibitoki byinshi, hariho umutaka g 'umuhondo na kasike y'ubururu iri kuri moto, n'abari hejuru yabyo n'uri kubishikira hasi na shoferi utwaye dayihatsu y'ubururu.

Amabisi manini gaparitse ahantu hamwe menshi, imbere yago hariho abashoferi bagatwaraga, inyuma yago hari igitari kigiye kizamuye kugeza aho garangiriye gose.

Abanyonzi baparitse mu muhanda bategereje abagenzi, baparitse bareba haruguru. Hirya yaho hari urufuzitiro rusa n'ubururu hariho n'abamotari imbere yaho batwaye abagenzi.

Imodoka ziri muri gare zitondetse ku muronko gumwe gumwe, hariho amazu bari gukataho amatike, hariho n'ikinyubako gisize amarangi g'umutuku gifite agasongero kanini.

Imodoka iri kugenda mu muhanda icuruzaga amavuta g'umutuku, isizwe amabara g'umutuku, hashushanyijweho n'umugore wambaye akabodi k'umutuku ari guseka.

Imodoka ya tagisi irimo komvayeri uri kugenda abwira abagenzi ngo nibaze, imbere hari indi iri kugenda muri kaburimbo, hirya yayo hari etaje ifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, n'itari yuzura neza.

Abakinnyi bambaye iniforume isa n'ubururu, ingofero z'ubururu n'iz'umuhondo, inkweto za supurese zisa n'umweru bambaye n'amaga mu ntoki, bari guterera umupira hejuru hasi yabo bari kuri tapi isa n'icatsi.

Abakinnyi bari gukina vore y'intoki bafite ubumuga bw'amaguru bicaye hasi, hirya yabo hari abafana bambaye amajezi asa n'ubururu yanditseho Rutsiro na nimero zayo.

Abakinnyi b'abagore bambaye amateni g'ubururu n'ag'umuhondo, harimo umwe urebye imbere, uzamuye intoki, abandi bari inyuma ya file bambaye ag'umutuku n'ag'umukara, bari gukina umupira g'intoki gwa vole.

Abakinnyi barikwi bicaye bari kwitegereza bagenzi babo barimo gukina. Umwe afashe umupira, undi mu umugongo ari kumusunika. Hirya ye hari ushaka kuwufata, hariho n'uwuri gusifura uwo mupira.

Abakinnyi b'umupira bari imbere ya sitade batangaye bamwe bifashe ku munwa, bambaye amajeze gafite amabara g'ubururu, inkweto zifite amabara g'umutuku n'ag'umweru n'ag'icatsi harimo umwe wambaye n'umupira g'umweru.

Ikigo cy'amashuri hari ikibuga bakiniramo umupira w'intoki, abanyeshuri bari mo bari ku ruziga, mwarimu ari imbere yabo ari kubaha amabwiriza y'uko bagomba gukina uwo mupira, impande yaho hari imipira ibiri.

Abakinnyi bari gukina umupira gwa vore, imbere yabo hariho abanyeshuri. Bambaye iniforume ifite ibara ry'umweru, n'amapantaro ga kaki hirya y'aho hari amashuri gubakishijwe amabati g'ubururu.

Abakinnyi bari mukibuga cya vore cy'amabara y'umukara ay'umutuku n'aya oranje, bari gukina ari amakipe abiri. Imwe yambaye imipira ifite amabara y'umuhondo, iyindi yambaye amabara y'umutuku. Hirya yaho muri sitade hariho intebe zifite amabara y'ubururu n'ay'umuhondo.

Abakinnyi bari gukina umupira gwa vole hirya yabo hari abasimbura n'abafana bicaye mu ntebe z'icatsi n'iz'umuhondo, hariho n'abari guseka hirya yabo.

Abakinnyi bakina umukino wo gutwara amagare bari bayariho ,inyuma yabo hari imodoka itatu zibakurikiye, impande y'umuhanda hari amapoto atatu, haruguru yaho hari umusozi.

Abakinnyi bari gukina umupira wa vore, bambaye amajezi atandukanye afite amabara y'umweru n'ay'umukara, hirya yaho hari abafana bicaye ku ntebe batuje, bari kureba uko bari gukina uwo mupira wa vore.

Abakinnyi bari gukina umupira wa basikete, bambaye amajeze asa n'ubururu, abandi bambaye asa n'umuhondo, harimo abirabura n'abazungu, imbere yaho hari tiribine ifite intebe zisa n’icyatsi, n'iz'umuhondo.

Abagore bambaraga udupira twicatsi bambaraga namapantaro, bari gushyira hejuru amaboko, numwe wambaye ijire isa n'umuhondo, bari hejuru yikibuga ca basiketi.

Abakinnyi bari gukina umupira gw'amaguru, bambaye imyenda za siporo zifite amabara g'umukara, g'ubururu harimo n'iry'umuhondo mu mutima harimo n'uzinze imitsatsi.

Sitade irimo ikibuga kirimo abakinnyi ,kizengurutswe n'abapolisi ,hirya hari amatara ,hirya yayo hari umuhanda uyizengurutse ,ufite amabara y'icyatsi ;umuhondo ;umweru; n'ubururu, hirya y'iyo sitade hari amazu.

Ikipe cangwa abakinnyi bari hamwe bari ku mirongo itatu. Bamwe barahagaze, abandi baricaye,. abandi barapfukamye. Abicaye ntago bambaye impuzankano yabo, abari ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu nibo bambaye impuzankano.

Abafana b'umupira bambaye imyenda ya siporo ifite amabara yubururu nagumuhondo harimo n'izuba bari guseka bari guhoberana cane cane.

Abakinnyi bari mu kibuga ca Futuboro begereye inshundura. Bambaye amateni g'umweru, inkweto za godiye z'icatsi n'iz'ubururu. Abandi bafana bari kubarebera ku mpande zitandukanye.

Umukinnyi w'umukobwa ufashe umupira gwa vole gufite amabara g'umutuku , iry'umukara n'ag'umweru, yambaye ijezi ifite amabara g'umuhondo kumitwe ye imitsatsi irazingazinze.

Umukinnyi uri gukina umukino gwa tenisi, ufashe agakubitisho, wambaye umupira gw'umutuku n'ikabutura y'umukara n'ingofero ifite ibara ry'umutuku, hirya hari ikibuga kirimo umupira harimo na za file zitandukanye.

Abakinnyi babiri ba vore bari gukina umupira bose bari kugujugunya haruguru baguhuriyeho hari abafana bambaye amabara yumuhondo nagicatsi abandi babiri bari kubitegereza ngo bagushikire.

Umukinnyi w'umukino w'amagare yambaye amajeze g'ubururu, hirya ye hariho abafana bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hariho inzu yanditseho kantine isize amabara g'umweru.

Agatsiko k'abantu benshi bari hamwe ariko bari kumuronko, bambaye imyenda ya siporo harimo abambaye ingofero amapantaro y'imikara y'amatiriningi afite ibara rimanuye harimo umuntu umwe wambaye akajiri k'abakorerabushake hagati yabo harimo icapa cyanditseho mirongo itanu.

Abakinnyi ba vore bari gukina umupira wa vore, hagati yabo harimo file inyuma yabo hariho amashuri yubakishijwe amabati yashaje, hariho n'igiti kirekire cy'umukindo.

Abakinnyi bari gukina mu kibuga, inyuma yabo hariho amazamu, babiri bambaye umukara, abandi bambaye ubururu. Bambaye inkweto z'umutuku n'iz'icyatsi, hirya yaho hari amashamba n'imisozi.

Pisine yubatswe hasi amakaro gagiye gusa na shokora akazenguruka n'abandi mabara g'umweru, amazi gasa n'ubururu n'amasikaye gari muri ago mazi, hirya yaho hakaba imigano zishinze mu biti.

Abagabo batanu bahagaze ku kibuga c'umupira bambaye udupira dufite amabara g'umutuku twanditseho rikwidi, harimo umwe wambaye ipataro ifite amabara g'umweru wacitse akaguru, ufite ubumuga bw'akaguru ,n'ingofero bambaye zose zifite amabara g'umweru.

Abakinnyi bazengurutse sitade irimo umuhanda gwa kaburimbo gufite amabara g'umweru, ikibuga gifite amabara g'icatsi, harimo na fire n'abakinnyi bari gukiniramo hagati muri ico kibuga.

Umukinnyi uri gukina umupira gw'amaguru mu kibuga gifite stapi zisa n'icatsi, abakinnyi bari gukina na we bambaye imyenda zifite amabara g'icatsi n'amasogisi gafite amabara g'umweru, muri sitade harimo abafana benshi bambaye amabara g'umuhondo.

Inzu ya Arena irimo intebe nyinshi zitandukanye, zifite amabara y'ubururu, ay'umuhondo n'ayicatsi. Imbere hicayemo abantu babiri bambaye udupfukamunwa, harimo n'umugore w'umukinnyi, wambaye amajezi y'ubururu ari kwiruka ku mupira.

Abantu babiri barimo kugenda muhanda wa kaburimbo, inyuma yaho hari umunyegare, hirya y'umuhanda hariho ibiti biteye ku murongo, no hino hariho ibyapa bigiye biri ku muhanda, aho ngaho bari kunyura.

Umugabo uhagaze uri kureba ibidomoro bibiri biteretse imbere ye, hirya yaho hari umuhanda gwa kaburimbo gwahungutse, umugore uri kuzu ufashe ibase, n'umumotari uri gutega umuntu wambaye ikoti ry'umutuku.

Umukobwa n'umusore bari gutembera mu muhanda wa kaburimbo. Hirya y'umuhanda hari kuba hateye ibiti na jaride n'umucaca wo kwifotorezamo.

Inzu y'ubucuruzi yubakishije amakaro gw'umweru, imbere yayo hariho ibyapa bitandukanye, hirya gatoya hariho umuhanda gwa kaburimbo, gurimo amabara gw'umweru, ag'umuhondo n'ag'umukara gari ku dusima.

Umuhanda gwa kaburimbo guri kugenderamo abantu ku muhanda, hirya yaho hateye ibiti bigiye biri ku murongo, hariho n'urutoki ruri ku muhanda n'uwondo rusutse impande yawo.

Inzu z'ubucuruzi zisize amarangi ,ziri ku murongo g'umwe, zisize ag' umweru ,nag'umuhondo na g'ubururu n'icyugi gisize ag'icyatsi, imbere yaho hubatse amashitingi gafite amabara g'umweru.